Abagore benshi bicaye ku ntebe z'umukara buri wese imbere ye hari ameza hari n'akantu kateretse imbere yabo hari undi mugore uhagaze abandi baricaye.

Abantu bamwe bicaye ku ntebe z'imbere harimo abagore n'abagabo bambaye imipira isa y'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari abandi bahagaze inyuma y'ameza ariho amaji n'amazi yo kunywa, bambaye imipira y'umuhondo iriho amabara y'umukara imbere.

Icyapa kimanitse hejuru cyanditseho amagambo USAID, cy'umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza ubuzima, imbere yacyo mu nzu hahagaze umugore wambaye umwenda w'amabara atukura n'umweru n'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki ari kureba ku ruhande rwo hirya iyo nzu irimo amararido y'umweru.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo abagabo babiri bambaye imipira ya buresiyeri yari iri ikirangantego cy'u Rwanda ku mpande, hagati yabo hari abagore babiri n'umugabo imbere yabo hari akameza kadekoyeho ibitambaro bifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, hariho n'ururabo na telefone, isakame inyuma yabo hari abandi bantu benshi.

Abajyanama b'ubuzima bari mu mahugurwa harimo abagore n'abagabo harimo uw'umusilamu witandiye buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi yo kunywa bambaye imipira y'ubururu ifite akabara k'umweru ku ruhande ya Lacosti umwe barikumuhereza indangururamajwi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bicaye ku ntebe zizengurutsa z'umukara, iruhande rwa buri wese hari amazi yo kunywa mu gacupa, bicaye iruhande rw'ameza atukura azengurutse, kandi buri wese imbere ye hari indangururamajwi.

Abantu bicaye ku meza amwe bari kuganira, buri wese afite icupa ry'amazi yo kunywa. Umugore urimo afite ikayi cyangwa se ajenda n'ikaramu, buri wese kandi afite mudasobwa imbere yiwe. Umugabo umwe wambaye umupira w'icyatsi kibisi ari kwikora mu kanwa.

Abagabo bane bicaye iruhande rw'ameza, buri wese afite icupa ry'amazi yo kunywa, umwe muri bo afashe ku icupa ry'amazi, yambaye isaha ku kuboko, undi yambaye amarineti n'ikoti ry'umukara abandi babiri bambaye amakoti.

abagabo benshi bicaye mu nama ku ntebe z'umukara bari imbere yikimeza kizengurutse gifite ibara ritukura bari kuganira imbere yabo buri wese afite indangururamajwi ari kuvugiramo hari icyapa cyanditseho ibintu by'ibara ry'umweru cyo gisa ubururu ngo kigali yacu n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu benshi bari mu mahugurwa bicaye ku ntebe zitukura harimo abagore, abagabo, n'abasaza imbere y'abari hirya ku meza hari icupa ry'amazi yo kunywa buri wese afite ikayi n'ikaramu arimo yandikamo.

Abantu bicaye ahantu hamwe harimo abakobwa n'abasore buri wese imbere ye hateguye itasi n'isutasi ariko hari ibirahuri birimo ji ku meza inyuma hari umukobwa wicaye areba inyuma wambaye amarinete.

Umugabo wambaye ikositimu ijya gusa na kake, yiyogoshesheje umusatsi wose yawumazeho, amarinete ku maso, yambaye isaha, ishati y'umweru na karuvati mo imbere, ahagaze imbere ari kuvuga ijambo afashe ku ndangururamajwi, imbere y'ameza ari kuvugiraho handitseho amagambo y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere.

Umugabo uhagaze hagati y'abantu benshi yambaye ishati ya makarokaro irimo ibara ry'umukara n'umweru isa kuboko, afite indangururamajwi inyuma ye hari abasirikare n'abandi bagabo bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi, hirya hari ikoti riri ku ntebe, inyuma gato hari inzu yubakishije udutafari duhiye, isize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bambaye neza amakoti, bitabiriye inama yo kurwanya ingaruka z'ibyorezo n'uburyo bwo kubyirinda, buri wese yicaye ku ntebe ye, afite indangururamajwi imbere ye kandi bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu benshi bicaye mu nzu isizemo hasi irangi ry'icyatsi kibisi n'umuhondo, harimo abagore n'abagabo, imbere hari akameza gateguyeho amazi yo kunywa ya buri muntu uhicaye, hirya inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahicaye harimo abagore n'abagabo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese afite imbere ye ikayi n'ikaramu, icupa ry'amazi yo kunywa y'Inyange, hirya hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'isaha ku kuboko, imbere ye hari mudasobwa, arunamye, ari kurebamo, ukomeje imbere yabo hari igikuta kimanitseho televiziyo.

Abayobozi bari mu nama, harimo abagore n'abagabo, umuzungu umwe, buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi yo kunywa, bicaye ku ntebe z'umukara imbere y'ameza, bamwe bafite za mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara harimo abagabo n'abagore, bamwe imbere yabo hari mudasobwa n'amacupa y'amazi yo kunywa ateretse ku meza hirya hari abashinzwe umutekano.

Inama y'abayobozi bakomeye buri wese afite urupapuro n'ikaramu ku meza ndetse imbere ya buri wese hateretse icyo kunywa n'kirahure cyo kunyweramo.

Abantu benshi bari mu nama harimo abagore n'abagabo bicaye iruhande rw'ameza azengurutse afite ibara ritukura buri wese imbere ye afite icupa ry'amazi yo kunywa hari aba kameramani bahagaze inyuma umwe wambaye umupira w'umweru n'abandi bari mu manguni agiye atandukanye.

Abantu benshi bari mu nzu isize irangi ry'umweru, barimo abagore n'abagabo bamwe bicaye abandi bahagaze, inyuma yabo ku meza atukura hagiye hariho icupa ry'amazi yo kunywa, amasakoshi, amatelefone n'ibindi.

Abagabo n'abagore bicaye bareba imbere, inyuma yabo hari ibiti, n'abahagaze, ku ruhande hari uwicaye, ufite imisatsi miremire, wambaye ikanzu y'umukara.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama harimo abagabo benshi n'umugore umwe, buri wese ku meza hagiye hari indangururamajwi, ikayi n'ikaramu, icupa ry'amazi yo kunywa, hirya inyuma yabo hagiye hakikijwe n'izindi ntebe kuko ni bakeya, ku meza biciyeho ni ay'umuzenguruko afite ibara ritukura.

Abantu benshi barimo bifotoza harimo abagabo bakuze n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bamwe imbere baricaye batatu, undi inyuma yabo arasutamye afite ekuteri mu ijosi n'agasakoshi k'umukara, hirya yabo hari ikibafure kihateretse cy'umukara, inyuma hari ikindi cyapa kinini.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe muri tiribine hasizemo irange ritukura hasi, harimo abasore n'abakobwa biragaragara ko ari urubyiruko. Inyuma hahagaze umusore wambaye imyenda y'umukara, hirya hari bafule y'umukara kandi hagiye hashinzemo inkingi zisize irange ry'umuhondo.

Abantu benshi, harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari ameza y'umuzenguruko, adekoje igitambaro'icyatsi kibisi, hateretseho amatelefoni, amasakoshi, za mudasobwa, hari n'abandi bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika, muri iyo nzu, harimo marido hasa na kaki.

Abantu benshi biyubashye harimo abagore n'abagabo, bicaye mu cyumba cy'inama, kandi buri wese yambaye akagozi karimo ikarita igendanwa irimo icyo umuntu ashinzwe ariko baji, bateze amatwi uri gutanga ikiganiro.

Inama y'abantu bakomeye buri wese imbere ye afite icupa ry'amazi yo kunywa, abandi telefone, abandi mudasobwa. Ku meza hari imashini yo kugaragaza amashusho ku gitambaro, imbere hari ibyo buri wese ari gusoma.

Umugabo wambaye kositime y'umukara, ishati y'umweru mo imbere n'amarinete, ufite agasatsi gake hejuru, yicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari agacupa k'amazi yo kunywa katagaragara neza, hari indangurura majwi ari kuvugiramo.

Abantu bicaye hamwe, buri wese ku meza afite indangururamajwi ireba ku munwa we, buri muntu imbere hari icupa ry'amazi yo kunywa ry'Inyange, inyuma ku rukuta hari inyuguti zandikishijeho ibara ry'umweru, mu ibara ry'ubururu hari ikizeru kirimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bamwe muri bo abagore babiri bari kuvugana, buri wese afite telefone imbere ye n'urupapuro n'icupa ry'amazi yo kunywa, umugabo uri hirya yabo, yambaye isaha n'ikoti ry'umukara n'umupira w'ubururu.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, hirya ye hari abagabo n'abagore benshi bahagaze iruhande rwe bamureba, harimo abagabo bambaye ingofero n'abagore hirya yaho hari ibiti byinshi n'amafoto y'amatara.

Abantu benshi b'abagabo bicaye aba ahantu hamwe bambaye amakositime, buri wese imbere ye, hari icupa ririmo icyo kunywa n'ikirahure cyo kunyweramo, umwe w'imbere yifashe neza, imbere inyuma hari undi mugabo urimo uvugana na mugenzi we, inyuma hari abandi bantu barangaye bubitse imitwe.

Abantu benshi bicaye bari mu nama imbere harimo mu w'umuzungu, hagati buri wese afite icupa ry'amazi yo kunywa, ariko ab'imbere hari abafite agatasi w'umugabo, hirya harimo umuyisilamu. Inzu bicayemo isize irangi ry'umuhondo.

Umugabo n'umugore bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese ku meza hari mudasobwa na terefone, kandi buri wese afite icupa ry'amazi yo kunywa, umugabo imbere ye hari ikayi afite n'ikaramu mu ntoki.

Abagabo bicaye mu nama bambaye amakoti, bicaye iruhande rw'ameza akoze ikizeru, umwe imbere ye hari telefone n'agakayi, buri wese afite icupa ry'amazi yo kunywa imbere ye n'indangururamajwi, inyuma yabo hari intebe ziticayeho abantu zifite amabara y'umuhondo.

Abantu bicaye hamwe harimo abagabo n'abagore, bamwe bicaye imbere abandi inyuma, bateze udutambaro, imbere hari umugore wambaye umupira w'umweru uriho ikirangantego cya mastakadi, ufite ibisuko ku mutwe imbere ye hari amazi yo kunywa, ajenda n'ibindi ku meza.

Umunara muremure, ufite ibyuma bisobekeranyije, hasi hasize irangi rya oranje, ukorotirijwe utugiriyaje dusize irangi ry'umukara, ku gipangu ku rugi hariho irange ry'umukara, hirya hari inzu iri kubakwa y'amabuye.

Abantu 2 harimo umukobwa n'umuhungu bambaye amatabuririyasa icyatsi kibisi n'ibigofero mu mutwe umwe icyumweru cy'icyatsi kibisi bahagaze imbere y'umunara muremure bari gufungura ibyugi bibhakingishije bisize irangi ry'yumweru uwo munara usize irangi ritukura.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, buri wese imbere y'ameza ye hateretse mudasobwa, hano ku ruhande hari uw'umukobwa ufite mugenzi we umuhagaze hejuru uri kumwerekera, hirya yabo hari umuhungu wicaye ari kureba nko muri mudasobwa, inyuma yabo hamanitse ikibaho bigiraho.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara, mu nzu isize irangi ry'umweru, yambaye amaherena y'umweru nishati y'umuhondo, iruhande rwe hari amadarapo, ku ruhande rumwe iderapo rimwe, no kuru rundi, iride.

Abasore babiri bicaye ahantu hamwe, umwe yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umutuku n'ingofero itukura, bari kureba muri telefone, imbere yabo hari mudasobwa na terefone nini, ikaramu na fime, bari imbere y'ameza adekoje igitambaro cy'icyatsi kibisi, inyuma yabo hari abandi bantu bari kuganira.

Itangazo ry'uburyo umunsi mpuzamahanga w'umurimo uzizihizwa. Hejuru hariho ikiragantego cy'Igihugu cy'u Rwanda gifite agaseke, amasaka n'ingano. Munsi harimo abagabo bane bazaba batumiwe muri icyo kiganiro bazagiramo ijambo, ndetse hepfo hari na televiziyo izakora icyo kiganiro.

Icyuma kirekire cyane kandi kigari gifite utundi twuma dutoya tugiye dushamikiyeho guhera hasi kugera hejuru, mu mpande kigiye gifite utuntu tw'udusanduku tujya gu gusa umweru, ibyuma byacyo bisize irangi ry'umweru, n'umutuku n'umukara.

Itangazo ry'ikiganiro kizakora ku bijyanye n'imisoro, harimo abatumirwa batandukanye babiri, uw' umugabo, uw'umugore, hariho amafoto yabo, umugabo yambaye kositime y'ubururu, karuvati n'ishati y'umweru mo imbere, umugore aritandiye ni umusiramu n'agatambaro k'umukara.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye ishati irimo amabara menshi atandukanye, ingofero mu mutwe, ahagaze iruhande rw'urugi rukinguye rw'imbaho, ku mpande hagiye hariho ibyapa bitandukanye byanditseho amagambo menshi.

Umugabo uri kuza aturutse hirya wambaye ishati y'umweru, ari imbere y'ururabo ruri munsi y'inzu ya etage ifite inzugi z'ibirahuri, ari kugana ahari icyapa cya mtn cy'umuhondo cyandikishijeho amabara y'umukara, hejuru hari n'ikindi cya eyateri gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Icyuma kinini kirekire giteye irangi ry'umweru, umutuku, umuhondo hejuru gifite utundi tuntu tw'utwuma kandi kazamutse hejuru iruhande rwacyo hari ibiti bijya kuba birebire kandi hakikijwe n'igicu cy'ubururu.

Itangazo ry'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Iterambere ry'Ubukungu RGB, ryandikishije inyuguti z'ubururu hagati muri G harimo akabara k'umuhondo haciyeho umurongo w'ibara ry'icyatsi kibisi bari gutangaza uburyo bakora.

Imbuga ipavomeshe utubuye duhiye, ukomeje hari amakaro y'ibara ry'umweru n'umukara, mo imbere ku muryango ufunguye ufite giriyage z'isize iranje ry'umweru no ku nzugi, hari icyapa kiri hejuru cyandikishije ibara ry'umweru mu bururu handitseho irembo, ukomeje mo imbere hari imashini ifotora impapuro.

Amaduka afunguye imiryango itatu, imbere yayo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umuhondo, afite telefone mu ntoki ari kurebamo, hejuru y'ayo maduka, hari icyapa kinini kiriho ibishushanyo bitandukanye, amadarapo, kamera n'ibindi. Hejuru handikishijeho ibara ry'umweru mu ibara ritukura.

Umunara, usize irangi ry'umukara, urimo ibyuma bigiye bicobekeranye, harimo akazu munsi yawo gasize irangi ry'umweru, ku ruhande hakotirijweho amagiriyage nayo asa umweru, inyuma yayo, hari umwana wambaye agakoti k'ubururu n'umweru.

Umunara munini wubakishije ibyuma bisobekeranyije muremure cyane usize amabara y'umutuku n'umweru hasi hari utundi tuntu tw'udusenyenge tuwuzengurutse kugira ngo hatagira umuntu winjiramo atabiherewe uburenganzira kuko haba harimo amamashini.

Imodoka ya Toyota isize irange ry'umweru iziritseho imizigo y'ibyuma izirikishijejeho ibiziriko, hirya hari igipangu kiri kubakwa n'utubuye duhiye bikorotirijwe n'ibirabo birebire, imbere yaho hari urupoto runini ruriho ikintu kiriho insinga z'amashanyarazi, ukomeje hirya hari insina z'ibitoki.

Akayira kubakishije amapave, hirya yaho hari agatebe kicayeho abantu babiri, hari ubusitani bw'indabo munsi y'inzu ndende ya etaje, ku ruhande rundi hicaye abandi bantu benshi, hirya hari indi nzu isize irangi ritukura, ikirere kiri gusa ubururu n'umweru.

Icyapa cyo kwamamaza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, handikishijeho itariki byabereye muri bibiri na makumyabiri na kabiri, kabiri hepfo hari umwarimu afite igitabo, ahandi hari umukobwa wambaye isarubeti, munsi hari utwaye ingorofani n'umufundi n'umuyede.

Abantu bicaye harimo abagabo batatu n'umugore umwe, mo hagati harimo ibimashini by'umukara bicometseho insinga, biteretse ku meza afite ibara ritukura, hirya hari undi muntu wambaye ishati ya karokaro y'umutuku n'umukara, ari imbere y'akabati karimo ibitabo afite igitabo mu ntoki.

Umunara ukikijwe n'utwuma dusongoje hejuru, kugira ngo abajura batinjiramo, hari igisanduku cy'umweru kirimo insinga nyinshi cyane, mo imbere muri utwo twuma hazitiwe n'utwo tuntu, ku ruhande hari akazu gasize irangi ry'ikijuju gakingishije urugi rusize irangi ry'umukara.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'ibyuma zirimo n'utubaho. Harimo abagabo gusa bambaye imipira y'umukara yanditseho amagambo n'inyuguti z'umweru mu mugongo. Abandi bambaye imipira y'umweru ya rakosite. Buri umwe imbere ye hateretse mudasobwa.

Umunara muremure ushinze ahantu hakorotirijwe ibyuma harimo ibisanduku by'umweru birimo ibimashini, iruhande rwayo hari akazu kubakishije amatafari ahiye gakingishije urugi rw'ubururu gafite na serire.

Ku muhanda wa kaburimbo ku ruhande hateye irange ry'umukara n'umweru, hirya hari ubusitani burimo indabo hashizemo itara ryo ku muhanda hejuru hari akantu k'akazeru karimo ikintu cy'umukara, hejuru hahera hari itara, hasobetseho insinga zijyana hirya no hino.

Ubusitani buteyemo pasiparumu, idatoshye neza, harimo igiti gifite amababi yarandaranze, itara ryo ku muhanda, hirya hari etaje ifite ibirahure by'ubururu, ndende, ifite ibyapa bya MTN n'ibindi by'ubururu byanditse n'amagambo Saniramu.

Igipangu gisize irangi ry'umweru ku gikuta, hejuru hamanitseho itara rirerire, gifite umuryango wa porotaye ufite utwuma dusongoje hejuru, usize irangi ry'umukara, ku ruhande hari icyapa kigaragaza nimero y'urwo rugo, mirongo itatu na gatatu, mo imbere harimo inzu isize irangi ry'umweru, ifite agatara ku ruhande, isakaje amabati atukura.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ku ruhande ibara ry'umukara n'umweru, hirya gato hari ubusitani buteyemo pasiparumu hashinze icyapa, hari urukuta rwubakishije amabuye ku nkengero z'umuhanda, hirya hari ipoto riri mu busitani bushyashya butarameramo ibyatsi bifite imigozi y'amashanyarazi ishora ahantu hatandukanye.

Ipironi rishinze ahantu hegereye uruzitiro rifite imigozi itanu, ine igaragara na kamwe gatoya kajyana inyuma rifite utuntu dutatu tw'umukara hejuru riteye nk'umusaraba rifite n'akandi kantu k'umukara mu mpande ahashingiye umugozi ujyana hirya.

Inzu nini isize irangi ry'umuhondo, umuryango wayo urafunguye, ni iy'ubucuruzi, hejuru hari irangi ry'icyatsi kibisi, umuryango wayo usize irangi ry'ubururu, ufite utuntu tw'utwuma hejuru, inyuma yayo hari umunara munini ufite imigozi myinshi igishamikiyeho.

Puberi y'umweru iteretse ahantu mu gisambu cyamezemo ibyatsi byinshi, hirya hari uruzitiro rwubakishije amabati mo imbere harimo udutafari duhiye, hateyemo imyumbati n'ibindi biti byabaye birebire, bifite amashami manini.

Abanyonzi babiri baparitse amagare iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hirya yabo hari imodoka ya bisi y'ubwoko bwa ritico itwara abagenzi nini ifite irangi rifite ibara ry'ubururu n'icyatsi kibisi n'umweru kuruhande rwayo haparitse igare.

Inzu isakajwe amabati, isize irangi ry'umuhondo, ku madirishya hari irangi ry'umukara, hirya hari iminara ibiri miremire iri hejuru y'andi mazu asakaje amabati atukura n'ibiti, iruhande rwayo hari ibintu by'ibisanduku biri hejuru y'amazu.

Umunara muremure ufite ibyuma bigiye bisobekeranyije hejuru hari insinga z'ubwoko butatu z'amashanyarazi, hejuru yawo cyane ku gasongero hari urundi rusinga runyuraho rw'amashanyarazi, munsi yawo hari ibiti bihateye n'amazu asize irangi ry'umweru.

Mu muhanda harimo umugabo utwaye igare, yambaye ipantaro n'umupira wa oranje wa lakosite, iruhande rwe hari borodire yubakishije amabuye, ruguru yayo hari ubusitani buteyemo pasiparumu n'ipoto ndende iriho insinga z'amashanyarazi, hirya hari igipangu kirimo amazu mo imbere.

Ipoto rinini riri ahantu mu busitani bukikijwe n'indabo, bugizwe na pasiparumu, rifite imigozi myinshi cyane igiye ishamikiyeho ijya impande n'impande, hejuru hari utuntu tubiri tuberamye, kuri iyo migozi hagiye hariho utuntu tuzengurukijeho tw'umukara.

Umunara muremure ufite ibyuma bigiye bisobekeranyije hacometseho insinga nyinshi zijyana impande n'impande z'amashanyarazi, munsi yawo hari ibiti bifite amashami atandukanye, harimo n'ibigufi n'ibirebire bifite amashami yarandaranze cyane.

Umugabo uri mu muhanda wa kaburimbo yambaye ipantaro, umupira w'amaboko maremare n'ingofero, ari kwiruka mu muhanda wa kaburimbo. Imbere ye hari undi wambaye inkweto z'umukara, ipantaro n'ishati ya makarokaro iruhande rwabo hari imitaka y'abakozi ba MTN.

Umugabo uhagaze hirya yambaye ipantaro y'umukara nishati y'ubururu, hirya ye hari amapoto ashinzeho insinga zitandukanye zijyana umuriro mu mpande, hirya no hino, munsi yazo harimo indabyo n'ibiti birebire n'urutoki rw'insina.

Akayira gateyeho indabo hirya hari umugabo urimo ugenda agana ku munara uriho insinga zishamitse zijyana hirya no hino, hirya hari undi muntu uri gutambuka hejuru y'igikuta cyubakishije amabuye munsi y'igiti gifite amashami manini.

Inzu y'amabati ifite urubaraza ruriho irangi ry'ubururu n'umweru, hirya yaho harimo ipoto ifite insinga zishamikiye hirya no hino, munsi hari ibyapa bibiri bya kanari, ku ruhande hari andi mazu menshi afite irangi ry'umweru ku nzugi.

Icyuma kirekire gifite utundi twuma duto tugiye dusobetsemo, giteye mu busitani burimo ibyatsi ibyatsi bya pasiparumu, bikikijwe n'indabo iruhande rwabyo hari igiti kirekire gifite ishami rifata kuri icyo cyuma.

Umunara muremure ufite ibyuma bisobekeranyije hajya hacometsemo insinga nyinshi z'amashanyarazi haririmo utuntu tumeze nk'udusanduku dusa n'umukara cyangwa se n'umweru hirya hari igipangu ruguru yacyo hari amazu akikijwe n'amashyamba

Ubusitani buteye mo pasiparumo ariko zidatoshye cyane, hirya yayo hari etaje ifite amadarage bazamukiraho, isize irange ry'umweru, hirya kuruhande hari ibaraza ryubakishije amabati, iyo etage ifite amadirishya y'ibirahure.

Imodoka y'ivatiri iparitse mu mbuga y'ibitaka, hirya hari umuryango wa porokutaye uri gufungwa n'umusekirite wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati ya beje n'ingofero, kuri wo hariho umusaraba utukura, hirya hari igipangu cy'amabuye.

Ibitaro by'Umwami Faisal ku ruhande hagiye hasizeho utuntu tw'ubururu. Hari imiryango isize irangi ry'umweru y'ibirahuri. Munsi hateyemo ubusitani bwa pasiparumu, n'indabo z'ubwoko butandukanye. Ku mpande ya byo hari amadarapo, irigaragara n'iry'u Rwanda.

Ubusitani buteyemo pasupalume n'ibindi biti by'indabo, ruguru yaho hari urubaraza rurerure rusakaje amabati. Hirya hari inzu ifite uturyango, cyangwa se utudirishya ku mpande hagaragara nkaho ari mu rusengero cyangwa ku kiliziya, hirya hari indi nzu isakaje amabati atukura.

Mu rubaraza rusakaje amabati, rufite inkingi z'ibyuma impande zose, hari kugendamo umugabo wambaye bote, n'imyenda y'ubururu, hirya hari ubusitani buteyemo pasiparumu, n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ukomeje hari andi mazu asakaje amabati atukura, agiye asize irangi ry'umuhondo ku mpande.

Urubaraza rupavomye munsi n'amatafari ahiye, ruguru hari ubusitani butemo pasiparumu, indabo, ruguru yabyo na none hari ikigega cy'umukara kimanitse ku cyuma, hubatse amazu abiri yubakishije idutafari duhiye, asakaje amabati atukura.

Mu ibaraza ry'inzu isize irangi ry'umuhondo hari intebe ifatanye irimo imyanya ine y'icyuma, hirya hari indi ntebe y'ibiti hari icyapa kijyana kiyobora abantu kuri tuwalete ifite inkingi z'amabuye hagati hasizemo irangi ry'umukara.

Ishuri rifite umuryango munini n'amadirishya manini asize irangi ry'umukara, ku nkingi hagiye hasize irangi ry'umuhondo, yubakishije amatafari ahiye, hagati hari ubusitani buteye pasiparume, ku ruhande hari akandi kazu gatoya, iruhande rwako hari puberi nini.

Inzu yubakishije utubuye duhiye mo imbere mu ibaraza harimo ibicupa by'umweru n'ubururu, hejuru yabyo hari akantu k'agasanduku gasize ibara ry'ikijuju, inyuma hari ubusitani bwa pasuparumu bukikijwe n'amabuye.

Umukobwa wambaye ipantaro y'icyatsi kibisi n'ishati y'umweru, afite ikindi kintu cy'umweru mu ntoki ari kugenda mu muhanda, iruhande hari urukuta rwubakishije amabuye, indabo n'itara ryo ku muhanda, hirya hepfo hari urusengero rukorotirije giriyage zisize irangi.

Ubusitani buteyemo igiti kirekire kirandaranze cy'ururabo, munsi hateye pasiparumu, hakikijwe n'izindi ndabo, ku ruhande hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara n'umweru, inzu ifite urubaraza, yubakishije udutafari duhiye hepfo, haruguru hahagaze abamama babiri bari kuganira.

Mu nzu ifite ikirongozi hasize irangi ry'umweru ikingishije inzugi z'ibiti, ufite purafu iririmo tuntu tw'icyatsi kibisi, hepfo hicaye abantu baba mama ariko ruguru nta muntu n'umwe uhicaye. Aba barimo uwambaye igitenge n'ukenyeye ikintu cy'umweru harimo n'uwunamye wambaye n'agapfukamunwa.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibaraza ku bitaro, hirya hari ambiransi ifunguye, ahandi hari ambiransi iparitse, inyuma yayo hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira wa rakosite w'umweru, ufite isakoshi ku rutugu, iruhande rwe hari umwana w'umunyeshuri wambaye inifomo y'ishuri.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hasize irangi ry'umukara n'umweru, hagati mu muhanda hari ubusitani buteyemo pasiparum n'ibiti by'indabo, hirya yaho hari inzu y'ivuriro hari icyapa cyandikishijeho ko ari mu materineti cyangwa se inzu y'ababyeyi.

Imbuga yubakishije amapave, imbere hari umugabo uri kugenda yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, imbere ye haparitse moto nyinshi, hari akazu gasize irange n'icyatsi kibisi, no mo imbere haparitsemo amavatiri abiri, n'abandi bantu bari kugenda n'andi mazu menshi.

Imbuga y'amapave gusa, hagati harimo ubusitani buto cyane buteyemo indabo, hagati muri zo hateyemo igiti kirekire gifite amashami maremare, hirya hubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari inzu isize irangi ry'ubururu'umweru handitseho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, Nyarugenge Disrict Hospital.

Umugore uhagaze ari kuvuga ijambo, yambaye ikoti ry'ubururu n'akandi kantu komo imbere k'umukara, amaherena ku matwi umusatsi muremure, afite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere yalitale isize irangi ry'ubururu imbere n'umweru harimo ikirangantego cy'igihugu cy'u rwanda inyuma ahagaze mu matete ariho ibara ry'umweru icyatsi kibisi n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye hamwe, harimo abagore n'abagabo, bamwe bambaye amarinete, iruhande rwabo imbere hari za mudasobwa n'amacupa y'amazi yo kunywa, aho bicaye mu cyumba hari amarido afite amabara ya oranje n'umweru.

Umucungagereza yambaye imyenda ya kake iriho irapo ry'igihugu ku kuboko, yambaye ingofero mu mutwe, afite na menshi ari kumwe n'umugororwa w'umugore, ari kumwambika amapingu, afite isakoshi ku rutugu y'umukara, yambaye n'amarinete.

Ifoto y'umugore w'isura y'imibiri yombi ufite imisatsi miremire amaherena, shanete mu ijosi, yambaye ikote ritukura ririho akabara k'umukara mu gatuza, yambaye akandi kantu mo imbere k'umweru karimo n'utundi tubara duto tw'umukara.

Abantu batatu b'abacamanza harimo umugabo umwe n'abagore babiri, bicaye imbere y'ameza ariho ibipapuro byinshi, bamwe imbere yabo hari indangururamajwi zestaye ku buryo bw'ikoranabuhanga, bambaye amakanzu y’umukara afite utuntu tw'umweru twibara mu gatuza.

Urupapuro rumwe rurimo amategeko yo kurengera ikiremwamuntu rwo mu rukiko; hariho ingingo nyinshi zitandukanye rwanditse mu ndimi zitandukanye harimo: ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa; buri tegeko rigiye rifite ingingo yaryo.

Benshi b'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara zifite utwuma hasi ku maguru yazo bambaye udupfukamunwa harimo n'abagore, inyuma hari umucungagereza wambaye imyenda ya kaki ubahagaze inyuma, bicaye mu nzu imwe imbere ifunguye.

Abagororwa b'abagore bambaye imyenda ya oranje y'amajipo bamwe banitadiye mu mutwe, bari kumwe n'abasoroveya cyangwa se abacungagereza bambaye imyenda ya kaki, hirya hari amazu menshi atondekanye yubakishije udutafari duhiye.

Itangazo ryo kwizihiza umunsi w'intwari mu Rwanda, ryanditswe na Eduard Ngirente dogiteri, asinyeho n'ikaramu y'ubururu, hirya hariho ikirangantego cya kashe cy'u Rwanda, hashushanyijeho agaseke n'ingano.

Ifoto y'umugabo munini mu maso ufite ubwanwa hejuru wirabura ufite n'umusatsi mukeya, ahagaze areba yitegereza atuje nta kintu ari kuvuga, ameze nk'ugiye kurwara amaso.

Abagabo babiri b'abacamanza bambaye amakanzu maremare, afite ibara ry'umweru mu ijosi, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye kositime n'agapfukamunwa, inyuma hari intebe z'imbaho zicayeho abandi bantu b'abagabo.

Umucamanza ahagaze imbere y'ameza afite indangururamajwi, yambaye ikanzu y'umukara ifite akantu k'umweru mu ijosi, ahagaze iruhande rw'idarapo ry'igihugu rifite amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi.

Icyapa kinini gishinze mu rukuta rw'inkingi y'amarembo, urugi rusize irangi ry'umukara, ku ruhande hari ibiti bihateye, urukuta rwubakishije amabuye, handitseho amagambo igororo rya Muhanga hejuru hari ikirangantego k'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye harimo abacamanza babiri b'abagabo bicaye, imbere inyuma yabo hari abagororwa harimo uw'umukobwa wambaye amarinete wahuje intoki, yambaye n'amapingu, inyuma yabo hahagaze abandi bagabo, ku ruhande rwo hirya hicaye abandi bantu nabo bari kureba.

Ukora mu rukiko yambaye ikanzu iri itukura iriho amabara atandukanye harimo irya beje n'iry'umukara ku ruhande yambaye ishati mu imbere na karuvate ameze nk'ugiye guseka yishimye.

Abagabo babiri bahagaze basuhuzanya, umwe yambaye ishati y'iroza yambaye n'isaha ku kuboko, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwabo hari ubusitani buteyemo indabo n'inzu.

Umugabo wirabura uhagaze yambaye ingofero ifite akantu k'umukara imbere no hejuru umuhondo, ikanzu idafite ikora itukura, iriho ibara ry'umweru imbere mu gatuza n'utuntu tw'umukara, ishati y'umweru, ikora.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu mo imbere ishati y'umweru na karuvati y'umurongo, ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu ya oranje w'imisatsi miremire, bari kurebana mu maso, imbere yabo ku meza hateretse ibirahure harimo ikirimo amazi. Ku ruhande rw'umugore hari ikawa.

Umupolisi ufite imbunda. Iruhande rwe hahagaze umugabo yafashe, yamwambitse amapingu. Afite igurude y'amazi mu ntoki, yambaye ipantaro n'ishati y'umukara, n'amarinete, inyuma yaho hari amadarage maremare aho bagiye banyura bamanuka.

Abantu barimo abagore n'abagabo bahagaze imbere y'amadarapo y'u Rwanda bazamuye ibiganza by'iburyo bose bari kurahira, bambaye amakanzu y'umukara ariho akabara mu gatuza k'umweru, umugore muri bo yitandiye agatambaro gatukura mu mutwe.

Umugabo wirabura w'umucamanza, ufite agasatsi gakeya, wogoshe orodineri, yambaye ikanzu itukura irimo utuntu tumeze nk'amapeti ku rutugu, agakora gatoya karimo mo hagati mu gatuza, irindi bara rimanuka ry'umweru, yambayemo n'ishati imbere.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bamwe bicaye ku ntebe z'abanyeshuri, abandi bicaye hasi, abandi muri bo bamwe barahagaze, ku ruhande rundi hari abandi bicaye imbere y'ameza, bambaye ibitambaro ku bitugu, by'amabara y'idarapo ry'u Rwanda, hagati yabo hahagazemo umugabo.

Abapolisi cyangwa se abashinzwe umutekano w'igihugu, bahagaze ahantu hamwe, bafite imbunda mu ntoki buri wese, bambaye imyenda isa n'ingofero zisa, inkweto zisa, bari ahantu hari inzu yanditseho ijambo "UN".

Icyapa cyashaje gifite irangi ry'umweru, kitagaragaraho ikintu na kimwe, giteye iruhande rw'imbuga y'amapave, hirya hari imodoka nyinshi zihaparitse, harimo amavatiri, ukomeje hari inzu y'ubucuruzi imbere yayo, hari ubusitani buteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abagabo babiri bambaye inkweto zifunze, amapantaro y'ubururu n'amakoti arimo ibara ry'icyatsi kibisi afite mu bitugu handikishijemo amagambo n'ibara ry'umweru n'ingofero, bahagaze iruhande rwa moto isa n'umweru.

Kizimya mwoto ebyiri zegetse ku nzu y'amakaro imwe irasa umutuku iriho n'utubara tw'umweru n'umukara iyindi irasa umuhondo cyangwa nka beje yanyandikishijeho amabara y'umweru n'umukara hejuru hariho ibindi bigozi bitukura bigiye bifashe ku tuntu dufashe kuri kizimya mwoto hejuru.

Imodoka iparitse ifite ikintu cy'umukara inyuma mu myanya batwaramo imizigo yanditseho amagambo inyuma n'ibara ry'umukara inyuma yayo hari igiti gicometse mu kindi kintu cy'icyuma bisize amabara y'umukara n'umweru imbere hari ubusitani burimo indabo n'inzu yanditseho amagambo n'ibara ry'umukara n'ubururu.

Umupolisi ahagaze iruhande rw'umunyeshuri w'umukobwa ari kumwe n'abandi banyeshuri benshi, imbere yabo hari gaze iri kwaka iteretseho isafuriya iri kuzamukamo umuriro, yamuhaye kizimyamoto ari kubatoza uko bakoresha kizimyamoto mu gihe habayeho impanuka ya gaze.

Kizimyamwoto ebyiri imwe isa umweru indi ifite ibara ritukura zicometseho ikintu cy'umukara kizamura hejuru, noneho hejuru yayo hari urundi rw'urugozi rutukura zimanitse ku gikuta kiri munzu ifite amakaro.

Icyuma gitukura cyegetse ku nzu, kizengurukishijeho imigozi y'umutuku, munsi hari za kizimyawoto ebyiri imwe itukura n'indi y'umweru, hirya ku makaro hasize irangi ry'umukara n'iry'umweru, hari intebe y'ubururu ya palasitiki n'umuntu uri gutambukamba wambaye urukweto rw'umukara.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda arahagaze iruhande rw'imodoka y'ivatiri, yatse icyangombwa perimi cy'umushoferi. Afite icyombo mu ntoki, yambaye ijire yanditseho polisi n'ingofero ya polisi n'ishati.

Abantu benshi bahagaze ku mbuga yubakishije amapave, iruhande rwabo hari umupolisi wambaye umwenda w'ubururu itambitsemo utundi tubara tw'icyatsi kibisi, ahagaze imbere ya kizimyamwoto, hirya yayo hari gaze iteretseho isafuriya irimo icumbamo umwotsi mwinshi cyane.

Agakapu k'umweru gafite amabara y'umutuku, gateretse hasi k'imishumi, iruhande rwako hari kizimyamwoto, hirya hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, hino hari n'abandi bagabo n'umukobwa, ukomeje hari moto n'imodoka.

Imodoka eshatu harimo agaca, akavatiri gatwara abapolisi bo mu muhanda n'agatoyota kajyamo abapolisi n'akandi kavatiri ku ruhande, ziri imbere y'inzu ifite inkingi isize irangi ry'umweru n'umukara, ku ruhande hari urugi rw'ibyuma rufunze.

Imodoka y'ivatiri isize irangi ritukura, harimo umugabo yasohoye ukuboko agushyira ku idirishya yambaye ishati, ari kureba hanze hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda ari kumureba.

Ameza ateretseho gaze iriho isafuriya, iri kwakamo umuriro, iruhande rwayo hari umugabo, yambaye imyenda y'umukara irimo amabara y'icyatsi, n'ingofero, n'agapfukamunwa, afite igitambaro mu ntoki.

Kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku n'umweru, yandikishijeho amagambo n'ibara ry'umweru riri mu kabara gato k'ubururu kariho, ifite urusinga rw'umukara ruzamura ako kantu k'umukara gasohokamo umwuka, ifashe ku nzu isize irangi ry'umweru, yubakishije amakaro hasi, imbere yayo hari pubeli irimo imyanda.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge n'umugabo uhetse igikapu gitukura mu mugongo bari kugenda mu muhanda w'amapave, iruhande rwabo hari umudaso wambaye inkweto z'umukara n'imyenda y'cyatsi kibisi n'ingofero mu mutwe, iruhande rwabo hari inzu ya etaje.

Kizimya mwoto ifite ibara ritukura n'umweru ku ruhande icometse ku gikuta cy'inzu hahagaze umuntu wambaye umwenda wa oranje ku ruhande rwaho hari puberi ifite ibara ry'umukara, hejuru yacyo hari akantu gafunguye gatukura hari kizimya mwoto hejuru.

Imodoka y'ivatiri y'umweru ihagaze mu mbuga y'amapave, inyuma yayo hari ikindi gikamyo gifite ibara ry'umweru, hirya hari inzu ihagazemo abagabo batatu, umwe wambaye isarubeti y'ubururu n'uwambaye ishati y'umweru, icyo kizu gifite ibyuma ku ruhande nta nkingi gifite ku ruhande.

Ifoto y'uwahoze ari perezida wa repubulika y'u Rwanda, yitwa Habyarimana Juvenal, yambaye ikositimu y'ubururu, ishati ya makarokaro na karuvati irimo amabara, ni umugabo wirabura ufite amenyo arimo inyinya, ufite umusatsi mwinshi ku mutwe.

Amafoto y'umumama wambaye ibitenge n'iribaya na shananete mu josi, hirya hari akana k'agahungu kifashe ku gutwi, kambaye ikositimu isa na kaki ifite ibipesu byinshi nk'ishati y'umweru mo imbere, hirya hari akandi gahungu kambaye kositimu kari kumureba mu maso.

Abantu benshi barimo abagore bambaye imikenyero n'abagabo bambaye amakositime bahagaze iruhande rwa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bari mu nzu imanitsemo idarapo ry'u Rwanda n'irindi rya Efuperi ku ruhande isize irange ry'umweru, ifite amatara ari kwaka abiri kuri purafo.

Abagabo babiri bahagaze bambaye kositimu z'ubururu, karuvati, amashati bareba imbere bafite ikintu bari guhererekanya mu ntoki.

Abantu benshi cyane, barimo abana, abagore n'abagabo, hagati imbere hari abana bane b'abakobwa bahobereye umugabo uri kubasekera cyane, hirya hari abagore bafite amadarapo asa n'icyatsi kibisi, umweru n'umuhondo hashushanyijemo n'akarabo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese yicaye ku ntebe ye n'imbere y'ameza ye kandi imbere ya buri wese hateretse agacupa k'amazi yo kunywa, imbere hari undi mugabo uhagaze uri kuvuga ijambo, afite mikorofone cyangwa se indangururamajwi, hirya hari kamera iri hagati na hagati.

Umugabo wicaye yambaye ikoti rya kositime na karuvati mo imbere n'ishati y'umweru, yicaye iruhande rw'indangururamajwi, afite icupa ry'amazi yo kunywa imbere ye, yicaye ku ntebe y'umukara ifite imifariso.

Abantu ba biriri harimo umugore n'umugabo bambaye imyenda y'imikara n'amarinete, bahagaze iruhande rw'icyapa kinini cyandikishijeho inyuguti n'amabara y'umukara n'umweru gisa n'umutuku, bafite ikindi cyapa kiriho abantu babiri ba...

Abagabo batatu biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu, amafoto yabo ari mu tuzeru turimo ibara ry'umweru; ariko kuri perezida Paul Kagame hariho ibara ritukura inyuma, abandi hagiye hariho ibara ry'umukara n'iritukura.

Umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, afite mu ntoki amadarapo ya FPR, yambaye umupira wa rakosite w'umweru n'amarinete n'ingofero y'umukara yazamuye igipfunsi, inyuma hari abandi bantu benshi bazamuye amadarapo bazamuye n'ibipfunsi bari guseka.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari kwiyamamariza amatora, yambaye umupira wa rakoste uriho ibirango bya FPR inkotanyi, ahagaze n' iruhande rw'idarapo rya FPR inkotanyi.

Ushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda yambaye ingofero y'umukara yandikishijeho amagambo inyuguti z'umweru hirya hahagaze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umweru inshati imwe imbere n'amate inyuma ye hari abandi bantu bamuri hirya harimo abandi bantu benshi bafite amadarapo ya efuperi.

Abantu benshi bambaye imipira ishushanyijeho igipfunsi y'umweru, iriho n'amabara ya FPR inkotanyi n'ingofero, umwe muri bo uri inyuma yabo afite ifoto iriho perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yambaye ikositume, ishati y'umweru, karuvati n'amarinete.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto eshatu, imwe iri imbere iriho umumotari n'umugenzi, iri hagati hariho umumotari gusa, inyuma hari indi irikugenda igaragara imbere gusa. Iruhande rw'umuhanda hari icyapa kiriho Paul Kagame Perezida w'u Rwanda yambaye ishati y'umweru na karuvati. Imbere yacyo hari umugabo urikugenda wambaye ipantaro n'umupira w'umuhondo.

Moto eby'iri ziri mu muhanda wa kaburimbo, imbere indi inyuma zose z'abamotari ndetse, n'abagenzi hagati yazo, hari igare riho umugabo ubitwaye wambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'umweru, naka gofero k'umweru mu mutwe, hagati arahakana inyuma hari undi mugabo, hirya hari ikimodoka kinini cyihaparitse cyegerewe n'ibiti binini byegereye uruzitiro.

Umu muhanda wa kaburimbo hari moto irimo umumotari n'umugenzi hirya yayo harimo ihetse imizigo imbere hari umunyonzi.

Umuhanda w'abanyamaguru wubakishije amapave, muri borudire hubakishije amabuye. Hirya hari umuhanda wa kaburimbo waridutse ho gatoya urimo imodoka ya toyota, inyuma hajya imizigo, harimo umugabo hirya na none mu muhanda w'abanyamaguru harimo abantu batatu bari kugenda.

Umumotari uri kuri moto ari kugenda mu muhanda yambaye itaburiya irimo ibara ry'umuhondo nu'ubururu na kasike y'umuhondo, imbere ye hari imodoka iri kugenda ku ruhande rwe hirya hari abantu babiri bari imbere y'urukuta rushushanyijeho icyapa cya Mitsingi mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Imodoka itwara imizigo iri mu bwoko bwa deyihatsu ihagaze mu muhanda munsi y'ama etage inyuma yayo hari umuzunguzayi, imbere yayo hari moto iriho n'umumotari hirya yayo gato hari ama modoka aparitse munsi y'akabari.

Imodoka ya kwasiteri yo mu bwoko butwara abagenzi, ihagaze muri gare imbere yayo hari icyapa cya airtel ku ruhande hari umugore ufite urukapu runini rwurushashara yambaye ingofero, imbere ye nano hari umugabo uri kugenda muri gare huzuyemo abandi bantu benshi n'amamodoka menshi ya kwasiteri.

imodoka ya tagisi iri mu bwoko bw'izitwara abagenzi, iraparitse ifite utudirishya tw'icyatsi kibisi mu ibara ry'umweru ku mpande, ibirahuri byayo birafunguye, inyuma yayo hari indi y'ubwoko bwayo, inyuma gato hahagaze abantu benshi.

Ikimodoka kinini cy'ikibeni gitwara imizigo y'ibitaka, imicanga, amabuye. Gihetse umucanga gitwikirishije shitingi y'ubururu, hirya yayo hari ikindi kimodoka gifite kontineri y'icyatsi kibisi, imbere yabyo hari ibiti binini bifite amashami maremare.

Igikoresho cy'abakarani gikoze mu mbaho cyitwa ihene, gihagaze mu muhanda w'abanyamaguru, hirya yacyo hicaye umugore wambaye ibitenge n'agapira k'uburongo n'igitambaro mu mutwe, inyuma yabyo hari abantu bari kuza na moto iri mu muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bw'izitwara imizigo ya dayihatso, ifite ibara ry'umweru ahajya imizigo, ndetse n'aho shoferi na komvuwayeri bicara, inyuma hakikijeho ikindi cyuma gisize irangi ritukura, inyuma y'aho hahagaze umumama, imbere hari amamoto n'andi mamodoka.

Ikimodoka kirekire gitwara imizigo y'ibyuma, imbere aho shoferi yicara na konvuwayeri hasize irangi ry'umweru, kuruhande hari umuhanda w'abanyamaguru wubakishije amapave, namabuye, imbere hari ikindi kimodoka cy'umweru kiri ku haturuka hirya yacyo hari andi mamodoka ari munsi y'ibiti birebire.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itukura yo mu bwoko bw'ibeni zitwara amabuye, umucanga n'ibitaka, iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru wubakishije amapave, harimo umuntu uri kugenda, afite ijerekani mu ntoki y'ubururu, yambaye umupira w'umweru, ku rundi ruhande hari ubusitani buteyemo indabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akarongo k'umweru gatandukanya iburyo n'ibumoso, hirya haparitse imodoka ya kwasiteri iri mu bwoko bw'izitwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, munsi y'icyapa kinini cyanditseho ngo forute beti haparitse imodoka y'ivatiri, inyuma harimo abantu benshi.

Umumotari yaparitse moto, hirya ye hari umukarani wambaye isarubeti y'ubururu, afite ingorofani y'ibiti mu ntoki, hirya ye hari umugabo ufite agafuka n'umubyeyi ufite umufuka urimo ibintu, begerewe n'imodoka y'ivatiri, inyuma y'abo hari umugabo wikoreye imifuka ibiri irimo ibintu.

Abanyonzi benshi baparitse ahantu hamwe, buri wese afite igare rye, bambaye amajire, harimo uwambaye umupira wa buresiyeri warebeshije ingoferi inyuma, hirya hari icyapa cyanditseho kilometero eshanu, ahandi hari icyapa kinini cyandikishijeho inyuguti z'umukara ntoya zitagaragara neza.

Mu muhanda wa kaburimbo hari umumotari utwaye umugenzi kuri moto, hirya yaho hari imodoka ya dayihatsu ipakiye amakesi, harimo ay'umutuku, ubururu, harimo n'ay'icyatsi ya Henikeni, iyo modoka isize irangi ry'ubururu cyangwa se ijya gusa na buresiyeri, hirya yayo hari indi modoka y'ivatiri igaragara inyuma gusa.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cyitwa motomodoka gihehetse imizigo itwikirijwe shitingi gitwawe n'umuntu uri kumwe n'undi, mu muhanda w'abanyamaguru harimo abagabo babiri bari kubisikana.

Imodoka ya Fuso itwara amabuye, iruhande rwayo hari umugabo uri kugenda yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya makarokaro, hirya yayo hari bisi itwara abagenzi, inyuma hari indi bisi, hirya hari ipoto n'ibiti birebire.

Imodoka nini y'ikamyo iri muri kaburimbo, imbere ahicara abagenzi hasize ibara ry'umweru, inyuma ahajya imizigo hasize ibara ry'umuhondo. Hirya hari ibiti biri mu busitani bifite amashami menshi, byabaye birebire cyane.

Umukarani yambaye itaburiya y'ubururu afite ingorofani ashoreye, hirya ye hari umumotari uri kuri moto igaragara ipine ry'inyuma, hirya hicaye umugabo ufite umufuka urimo ibintu munsi y'inzu y'ubucuruzi ikinguye imiryango yose imanitseho ibyapa by'amabara atandukanye.

moto iriho umumotari uri kugenda muri kaburimbo wambaye ijile iriho ibara ry'ubururu n'umuhondo na kasike y'umukara ari kugenda hirya ye hari ibyapa bibiri by'umweru nfotosize irangi ry'ubururu n'umweru n'ibiti hirya hari ubusitani buteyemo intebe z'umweru n'ubururu munsi yakabaraza

Imodoka nini iri mu bwoko bw'ibeni zitwara umucanga n'amabuye iri m'umuhanda, iruhande rw'umuhanda hari abantu babiri umugore n'umugabo umwe bigaragara ko ari umwageti wa emutiyene, k'uruhande rwa hirya hari undi muntu uri kugenda ry'imbere iruhande rw'umuhanda nanone hari ibiti bikikije uwo muhanda.

Imodoka ya tagisi, iri mu bwoko bw'izitwara abagenzi, ishushanyijeho utubara tw'icyatsi kibisi, yo isize irangi ry'umweru, mo imbere mu mwanya wa shoferi harimo umugabo wambaye umupira utukura, imbere yayo hari umu motari uri kuri moto wambaye jire na kasike y'umuhondo.

Umugabo wambaye ipantaro n'inkweto by'umukara, ishati y'umweru wikoreye n'umufuka, ahetse igikapu mu mugongo, inyuma ye mu muhanda wa kaburimbo, hari imodoka ya toyota, imbere yayo hari fuso, ku ruhande hari indi dayihatsu, hagati yayo hari undi mugabo, hirya ukomeje hari indi modoka itwikirije shitingi y'ubururu.

Imodoka ya Dayihatsu isize irangi ry'umweru, iparitse muri kaburimbo, abantu bari gupakiramo imizigo y'ibyuma, banazirika ku mpande kugira ngo bifateho, harimo abagabo batatu, imbere yayo hahagaze umugabo wifashe mu mifuka.

Imodoka zitwara abagenzi zihagaze muri gare, imwe muri zo ni inini, ifite ibara ry'umweru, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'icyatsi n'umupira w'ubururu, n'ingofero y'umukara, afite indobo mu ntoki y'umweru. Hirya yayo hari abandi bagabo babiri.

Umugabo wambaye bote, ipantaro ya kake ni jile, irimo amabara y'icyatsi kibisi n'utundi turongo, nishati ya buresiyeri, ingofero y'umukara, ahagaze yunamye imbere yingorofani ipakiyemo ibintu, harimo umufuka w'ubururu n'isuka, biparitse ahantu hubakishije amapave, ku ruhande rwayo hari imodoka igaragara igice cy'imbere gusa.

Imodoka y'ivatiri mu muhanda wa kaburimbo ifite ibara rya kaki, yanditseho ko ari iy'abanyeshuri bari kwiga gutwara, irimo umugabo ufashe hejuru, yambaye ingofero n'umupira w'umukara n'akajire k'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto modoka ifite irange ry'ubururu itwikirije shitingi y'umukara, mu imbere harimo ikintu cy'igisanduku gitwikirije umufuka w'umweru, impande zayo hari ibiti biteye birebire n'ubusitani buteyemo pasiparumu.

Imodoka y'ivatiri ifite akabara k'umuhondo hasi no hejuru y'ibirahure, mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo w'umuhondo hagati, hirya harimo ubusitani buteyemo ibiti binini by'indabo, inyuma hari yindi modoka y'umukara.

Ikimodoka kinini cy’ikibeni gitwara imicanga, amabuye n'ibitaka, gihagaze muri kaburimbo, gifite irangi ry’umutuku, iruhande rwacyo hahagaze akavatiri kari muri kaburimbo imbere y’umuhanda w’abanyamaguru, hirya hari ubusitani buteyemo ibiti n'uruzitiro.

Mu muhanda w'abanyamaguru wubakishije amapave, harimo umuntu uri gutambuka yambaye inkweto z'umweru n'umukara utagaragara mu maso, afite na telefoni mu ntoki, hirya mu muhanda hari imodoka ya Dayihatsu y'umweru, ahajya imizigo harimo igishitingi cy'umweru, hirya ya hari indi modoka ya Toyota, hagati yazo hari umumotari uhetse umugenzi.

Umugabo wambaye ipantaro ya kake n'umupira wa lakosite ufite amabara y'umweru ku kuboko no mu ijosi, ahagaze iruhande rw'undi mugabo uri kuza wambaye ipantaro, y'umukara, hirya ye hari imodoka ihaparitse ya Sitela iri mu bwoko bw'izitwara abagenzi, hari kugenda umukarani wambaye ishati y'ubururu wikoreye umufuka wa kilojana rwuzuye.

Umugabo uri kugenda wambaye ipantaro n'umupira mu ntoki, afite agakapu k'umukara n'isaha ku kuboko, ahari kujya hari ubusitani butoya buteyemo pasiparumu harimo n'ipoto, hirya ukomeje hari imodoka nini zo mu bwoko bw'izitwara abagenzi.

Imodoka ya fuso iri mu bwoko bw'izitwara imizigo, iri mu muhanda wa kaburimbo, ahicara kumvayeri n'umushoferi hasize irange ry'icyatsi kibisi, harimo moto iri guturuka imbere igaragara ipine ry'imbere gusa, hirya hari ibiti bifite amashami manini.

Imodoka ya Coaster itwara abagenzi yashaje cyane idafite isura, gusa ku ruhande hari ibara ry'umweru, hirya yayo hahagaze abantu benshi, hano imbere hari umubyeyi ariko utagaragara mu maso, ku ruhande hari umugabo uhagaze wambaye ingofero, ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara.

Umuhanda w'abanyamaguru wubakishijwe n'ibirokosima bitwikirije kuri rigori, hirya hari kaburimbo irimo zebura korosingi aho abanyamaguru bambukira, imbere haparitse abamotari babiri, hirya gato hari indi moto iri kugenda igeze munsi y'igiti cy'umunyinya giparitse mu modoka y'ivatiri.

Mu muhanda wa kaburimbo usize amabara y'umukara n'umweru, harimo motomodokaka mbere yayo hari moto ebyiri ziriho abamotari, ku ruhande hirya hari imodoka nyinshi ziparitse munsi y'inzu igeretse, hirya yaho hari akazu gatukura kegerewe n'indi nzu nini isize irangi rymweru.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa bisi zitwara abagenzi iri kugenda muri kaburimbo, imbere yayo hari moto ziriho abamotari, iruhande rw'uwo muhanda haririgore yubakishije amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanijwemo kabiri n'umurongo usa n'umuhondo, harimo moto iriho umumotari n'umugenzi hirya yaho hari indi mihanda ikikijwe na borodire zisize ibara ry'umweru n'umukara, hirya hari ibiti by'ubwoko butandukanye binini.

Ikinyabiziga cyitwa moto modoka gifunguye, ahajya imizigo hakikijwe n'amagiriyaje atwikirijeho udushitingi, hirya yayo hari indi isa bisa, ku mpande hari umumama wambaye imyenda y'igitenge afite isakoshi na sharupe ku kuboko, hirya hagiye hari abantu harimo n'uri ku igare.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa bisi zitwara abagenzi, ariyo kibiesi iri mu muhanda, iruhande rwayo hari umugabo uri kugenda ari kuri terefone afite ikoti ry'umukara ku kuboko, yambaye imyenda y'umukara, ari kugenda iruhande rwa borodile ifite uduteme twambukiranya iyo borodire.

Umuhanda wa kaburimbo utagikoreshwa ufungishije udutambaro tw'umutuku n'umweru, ku ruhande rwayo hasize irangi ry'umukara n'umweru na none hari icyapa kinini gikikije aho ngaho kiriho ibidukikije, gishushanyijeho ibiti n'abantu.

Imodoka iri mu muhanda, iri mu bwoko bw'itwara imizigo yitwa daihatsu, iruhande hari umuhanda w'abanyamaguru, wasenyutse agace kamwe, ukomeje imbere, haparitse andi ma modoka, ku mpande hari abantu, n'amashitingi atwikiriye ibintu byinshi, munsi y'icyapa cyanditseho p.

Imodoka itwara imizigo yitwa dayihasu iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere aho shoferi na komvuwayeri bicaye hasize irangi ry'ubururu, inyuma hasize irangi ry'umweru, hapakiyemo amagaze menshi y'ibara ritandukanye, harimo iz'ibiro bitandatu n'iz'biro icyenda n'iz'ibiro cumi na bibiri.

Imodoka nini itwara imizigo yitwa dayihatsu, ihagaze ku nkengero z'umuhanda, ifite amapine, hagati y'amapine harimo ikintu cy'igisanduku cy'umukara, isize irangi ry'umweru. Ahajya imizigo harimo ibishitingi bibiri bizinze, imbere yayo haparitse izindi modoka zirimo ibintu no ku ruhande hari abantu.

Imodoka y'ivatiri iri mu muhanda, imbere yayo hari imodoka ya fuso ihetse imizigo myinshi, harimo imifuka yuzuriranye hirya hari akavatiri kaini kaparitse, inyuma yako hari urukamyo runini rugaragara imbere gusa ukomeje hari izindi modoka zikuza ziri munsi y'ibiti binini n'itara ryo ku muhanda.

Imodoka y'ivatiri ifite ibara ry'ubururu iri kugenda muri kaburimbo, iruhande rw'umuhanda hari ibyapa bibiri by'umweru n'ipoto risize irangi ry'ubururu hasi, umweru hejuru, hirya hari ikindi cyapa gisize irangi ry'ubururu gishushanyijemo umusaraba n'ibara ry'umweru, inyuma hari moto ziri mu muhanda n'imodoka inyuma yazo.

Imodoka nini y'ibeni iri mu bwoko bw'izitwara imicanga, amabuye n'ibitaka, iri mu muhanda wa kaburimbo, hino hubatse agakorosima kubakishije amabuye n'umuhanda w'abanyamaguru, hirya hari ibiti bifite amashami maremare atwikiriye umuhanda.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa kwasiteri iparitse muri gare, iruhande rwayo hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira wa rakosite yifashe mu mufuka, undi ahagaze hirya yiwe, hari abandi bantu n'andi mamodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru karimo amapave harimo umunyonzi hirya hari motomodoka, hirya yayo hari umugabo uhahagaze yambaye ikoti n'umupira wa kositimu wa oranje, hirya hari inzu nini isize irangi ry'ubururu n'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'ivatiri y'umukara moto iriho umumotari n'umugenzi mu rugabano rw'uwo muhanda harimo ubusitani butemo indabo nziza inyuma y'iyo moto hari n'iyindi moto n'indi modoka n'igare.

Akazu abagenzi baruhukiramo karimo intebe m’imbere, gakikijwe n'ibirahure, gasize irangi ry'umuhondo, iruhande rwako hakorotije ibyapa by'umutuku n'umweru, hirya hari abagabo babiri bari kugenda n'imodoka ku ruhande mu muhanda rwagati wa kaburimbo.

Ku kibuga cyubakishije amapave, hariho moto iparitse nta muntu uriho, ku ruhande rw'ibyuma bihashinze hari ivase y'umukara iteyemo ururabo, hirya yaho hari pasiparumu zikikijwe n'amabara y'umukara n'umweru, inyuma yabyo hirya haparitse imodoka y'umweru.

Intebe ndende yo kwicaraho ikoresheje ibyuma ku maguru yayo, hejuru aho kwicara hakoresheje imbaho, hirya yayo hari ubusitani buteyemo ibyatsi bya pasiparumu, amabuye, hari n'ipoto ishinzemo isa umweru.

Abakinnyi benshi bari mu kibuga, iruhande hakikijwe na senyenge ku buryo umupira utabona aho unyura, hirya hari ni muri sitade hari tiribine yaciyemo abantu benshi, mu kibuga harimo abakinnyi bambaye imyenda yo gukinana.

Igishushanyo cyanditseho inyuguti k,m akango kaberamye h, hejuru yabyo hari umubare gatandatu na zeru byandikishije amabara y'umukara, iryo shusho riri mu ibara ry'umuhondo, hagati harimo n'utundi tubara duto tutagaragara neza tw'umweru.

Igishushanyo cy'icyapa cyo mu muhanda, gifite ikizeru cy'ibara ritukura, mo hagati harimo umweru ushushanyijemo imodoka y'umukara n'ibinyoteri by'umweru, haciyemo umurongo w'umutuku muri iyo modoka, byerekana ko nta kinyabiziga kigomba kuhanyura.

Icyapa cyo mu muhanda, cyerekana aho abanyamaguru bemerewe kwambuka, gifite irangi ry'umweru kumpande, n'umutuku hagati, mo hagati mo imbere hari irangi ry'umweru, rishushanyijeho umuntu uri kwambuka umuhanda, muri iyo mirongo y'umukara.

Icyapa cy'ikizeru kizengurutswe n'ibara ritukura, mo imbere hari ibara ry'umweru ryandikishijemo imibare gatandatu, zeru cyangwa se mirongo itandatu, gishinze ku gati cyangwa se ku cyuma kiriho ibara ry'umukara.

Icyapa kinini cyandikishijeho ibara ry'umweru mu cyatsi kibisi, hashushanyijeho indege, handitseho Kacyiru, amerekezo ya convention center Kigali, munsi yayo hari ubusitani buteyemo pasiparume n'ibyatsi byinshi n'ibiti, hirya hari umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa cya mpande eshatu gikikijwe n'ibara ritukura hagati harimo ibara ry'umweru rishushanyijemo abana babiri, umwe afashe ukuboko undi, gikikijwe nibiti.

Icyapa gifite ibara ritukura kuru ruhande mu imbere harimo umweru, hagati hari akabara k'umukara karimo utudomo tw'amabaratandu, umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi, gishinze ku kuma gafite ibara ry'umukara.

Icyapa kizengurutswe n'irange ry'umuhondo, mu imbere harimo umukara mutoya, hakaza kuzamo n'umuhondo munini, harimo amerekezo atandukanye ashushanyishije ibara ry'umukara, irireba hasi n'irireba hejuru, mo hagati na hagati harimo akandi kantu gashushanyijemo n'ibara ry'umukara.

Icyapa gishushanyijeho imodoka ya bisi iri mu bwoko bw'izitwara abagenzi, ishushanyishije ibara ry'umweru mu bururu, hejuru yayo hari inyuguti ya pa nayo yandikishije ibara ry'umweru, icyo cyapa kizengurutswe n'ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanywa n'umurongo w'ibara ry'umuhondo ugabanyijemo ibice bibiri mu rugabano rw'ubusitani harimo indabo ziteye neza, harimo ipoto ririho icyapa, hirya y'umuhanda hari inyubako nziza kandi ndende.

Icyapa cyo mu muhanda, gifite irangi ry'umuhondo n'umukara ku mpande, mo hagati mu muhondo harimo akantu kameze nk'icupa rishushanyishije irangi ry'umukara, gafite amerekezo azamuka hejuru, mo hagati yako harimo akandi kazamuka gashushanyishije ibara ritukura.

Icyapa gishinze mu mabuye gifite ibara ry'umweru cyandikishijemo inyuguti akarere ka Karongi hirya y'aho hari umuhanda wa kaburimbo uhagazeho abantu ku mpande hari ikimodoka kiri mu busitani buri hafi aho ngaho buteyemo pasiparume cy'icyimashini.

Icyapa cy'umuhondo gikoze nkampande enye kigizwe n'amabara abiri umuhondo, n'umukara gifite utuburo tubiri hari amerekezo ashushanyishije ibara ry'umukara agenda aranga amerekezo y'umuzenguruko.

Icyapa cyo mu muhanda gikoze mu buryo bw'umuzenguruko ku mpande gikikijwe n'ibara ritukura hagati harimo ibara ry'ubururu, hashushanyijemo ikimenyetso cyo gukuba gishushanani ibara ritukura akarongo kaberamye kareba hirya n'akandi hino.

Icyapa gitukura gifite amaguru hasi ahagaze ane ahantu hagati hari akanu k'umwiru kanditseho amagambo no hejuru hari akantu kampande eshatu kanditseho amagambo gakikijwe n'ibara ritukura mo hagati handikishijemo amabara y'umukara ko gasa n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibara ry'umuhondo hagati rigabanya uruhande rumwe n'urundi, ku nkengero zawo hari ubusitani butemo pasiparumu, n'inzira y'abanyamaguru, hirya hari uruzitiro rwubakishije ibitambaro by'icyatsi kibisi, mu imbere harimo inzu ya etage, hepfo yayo haparitse imodoka y'umweru.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu bicaye ku mbuga yubakishije amapave iri imbere y'umuhanda wa kaburimbo, hirya y'aho hari inzu ya etaje isize irangi ry'muhondo n'umukara ishushanyajeho n'utundi tuntu tw'umweru, munsi hari umugabo wegamye iruhande rw'igare n'imodoka y'ivatiri, hirya hari abandi bantu bahagaze bambaye imyenda itukura.

Inzu ya etaje isakaje amabati atukura iruhande rwayo hejuru hari insinga nyinshi cyane z'amashanyarazi ziri ku ipoto, inyuma ku gipangu hasize irangi ry'umweru hasi hari uruzitiro rukoresheje amabuye hari ubusitani buteyemo indabo z'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo irangi ry'umuhondo hagati n'iry'umukara n'umweru ku mpande, hino hari igiti cy'ururabo gifite amababi manini. Hirya yaho hari inzu nini yubatse, isize irangi ry'umuhondo, iriho ibyapa by'umweru, munsi hari amamodoka aparitse.

Imbuga ikikijwe n'indabo, hirya yazo haparitse imodoka y'ivatiri y'umweru n'indi y'umukara, hari uruzitiro, muri urwo ruzitiro mo imbere harimo inzu nini isize amarangi y'umweru n'umukara, ateyeho n'indabo mu mavaze.

Umugabo uri muhanda wa kaburimbo, afite umufuka w'umweru, urimo ibintu ku rutugu, inyuma ye hari abamotari babiri baparitse, imbere ye hari amavatiri abiri y'umweru dede, hirya haparitse andi mamodoka ari munsi ya etaje.

Pariki ya Nyandungu harimo ubusitani buteyemo pasiparume, ibiti birebire, bifite amashami, harimo n'agiye yigonda, hirya harimo ipoto y'umweru ry'itara ryo ku muhanda, hicayemo abagabo umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi ishati y'umweru n'inkweto z'umukara.

Ubusitani buteyemo pasiparumu n'indabo ndende, hirya hari ipoto nini, ku ruhande hari igipangu cyubakishije udutafari duhiye, mu imbere harimo amazu, harimo iya etaje n'akandi munsi gasakaje amategura.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, inyuma yacyo hari ubusitani butoya buteretsemo ibikapu bitatu, kimwe cy'umukara, mu gipangu mo imbere hubatsemo amazu imwe ni inzu ndende ifite amadirishya y'ibirahuri, indi isakaje amabati y'umukara.

Etaje ndende cyane ifite amadirishya y'ibirahuri bya fime, isize irangi ry'umweru, ku ruhande gagiye hasizeho irangi ry'umukara, munsi yayo hahagaze ama modoka menshi, imwe y'umweru n'izindi ebyiri z'umukara, hirya hari umumotari uri kuri moto n'izindi modoka hirya ye.

Igipangu cyubatse hafi y'umuhanda, ku mpande zacyo hari ubusitani butemo indabo zirandaranze na pasiparumu, cyubakishije udutafari duhiye, hagiye hariho udutara hejuru kuri porotaye, hino hari ikindi gipangu gisize irangi ry'umukara, mo imbere y'icyo gipangu gisize irangi ry'icyatsi kibisi harimo inzu isakaje amabati atukura.

Inzu nziza isakaje amabati atukura, ifite amadirishya n'inzugi by'ibirahure, ifite imbaraza zigiye ziriho utugiriyage ku mpande dusize irangi ry'umukara, hirya yayo hari indi isize irangi ry'umweru ifite utudirishya tubiri, ku mpande ifite igipangu cyubakishije amatafari abumbye mu isima, inyuma yacyo hamennye amabuye n'ibitaka.

Inzu za etaje ebyiri imwe isakaje amabati atukura ifite idirishya ry'umukara, indi iri ruguru isize irangi ry'umweru. Zose zinyuranyuranywamo n'insinga z'amashanyarazi, ku ruhande hari ibyatsi byinshi, kuri imwe hari ikigega cy'umukara.

Inzu ifite ku ruhande hari amakaro y'umweru ifite imiryango ikinguye isi izina rye ry'ubururu hejuru naho hamanitse icyapa cya bankof kigali gisize irangi ry'ubururu n'umweru na orange b'immbere hahagazemo umugabo uri imbere yu'ururabo

Inzu nini igeretse ifite amadirishya hasi isize irangi ry'umweru, hino hari icyapa kiriho kinini gitukura cyandikishijeho amabara y'umweru, hashushanyijeho convention center, ruguru kuri flow ya kabiri hahagaze umukobwa wambaye ijipo y'ubururu n'agapira ka buresiyeri.

Inzu nini igeretse yubakishije ibirahure, yanditseho “Beca” mu mpine. Munsi yayo hari ubusitani buteyeho indabo. Iruhande rw’ubu busitani hari umumotari uri kuri moto, afite casike mu mutwe, yindi ku wiivi, kandi inyuma ye hari icyapa kigaragaza ko aho hantu hatari parikingi.

Icyapa kiriho inyuguti ya ka ebyiri n'imibare mirongo itanu na gatandatu, sa, ta. Inyuma yacyo hari ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo hagati ugabanijwe n'imirongo y'umuhondo hirya hasize irangi ry'umweru, iruhande rwawo hari imodoka nyinshi zumukara kandi hari n'inzu igeretse nini yanditseho n'amagambo.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ishinze mu busitani butemo pasiparume n'indabo, hariho isinga zijyana hasi, hari inzu iteye irangi ry'umweru ifite igipangu kiriho imbaho zisize irangi ry'umukara.

Imodoka y'umukara iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hari izindi modoka nyinshi zihaparitse z'umweru ziri munsi y'amazu ya etaje ariho ibyapa by'amabara atandukanye, hirya hari abandi bantu begamiye ku zindi modoka ziparitse inyuma y'icyapa, ukomeje hari indi nzu iri kugaragara isize irange ry'umuhondo.

Inzu ya etaje isize irangi ry'umweru ifite inzugi z'ibirahure ku nkingi hasize irangi rijya gusa n'umukara, mo imbere hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye, ku mpande hari igipangu cyubakishije amabuye hagiye harimo n'utugiriyaje dusize irangi ry'umukara.

Imodoka yivatiri iparitse munsi y'isoko ryi myenda hirya uzamuka hari amadarajye asize irange ryumukara hejuru Hari imyenda iri kumaporutomate akoze nk'abantu amaduka afunguye hamanitseho ibikapo byumukara baheka mumugongo amasakoshi nindi myenda y'ubwoko butandukanye

Imbuga y'amapave hino hari imodoka y'ivatiri ihaparitse hiryari hari guturika indi modoka y'ivatiri y'umweru iri inyuma y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye harimo inzu ya etaje isakaje amabati atukura isize irangi umweru.

Inzu nini igeretse, isakaje amabati atukura ifite amadirishya y'ibirahuri, hanze yayo hari idarapo, isize amabara y'umweru n'umuhondo, ku muryango w'igipangu hari amatara abiri, hanze y'uruzitiro hari icyapa cy'umweru kiriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nziza isakaje amabati y'umutuku ku ruhande hasize irangi ry'umukara, hepfo hari igipangu cyubakishije amatafari abumbye mu isima, ruguru hari urundi rukuta rwubakishije amatafari ahiye, hejuru yarwo hari ibigega bibiri by'umukara.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, imbere hari uwambaye isarubeti y'ubururu, inyuma ye hari abamotari hari n'amamoto ari iruhande rw'urukuta rwubakishije udutafari duhiye, hirya ukomeje hari imodoka z'ivatiri n'izindi moto zigoswe n'abandi bantu benshi, inyuma hari amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo irimo amabara y'umukara n'umweru, hirya hari icyapa kihashinze gifite itara riri kwaka umuhondo n'icyatsi; munsi ya ryo hahagaze umugabo ushaka kwambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo ariko washaje hirya mu kayira k'abanyamaguru haparitsemo moto y'umumotari ufite ingofero y'umuhondo mu ijosi yambaye jile irimo ibara ry'uburu n'umuhondo hirya harimo ya toyota imbere yayo hari igare n'andi mamoto.

Umuhanda wo ku kiraro gifatishijwe inkingi zikomeye, ku mpande yawo hakikijwe n'utwuma twinshi dusobekeranyije, hirya hari itara n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umukara n'umweru ariho abagenzi b'abanyamaguru bambukira, hino hari icyapa kigaragaza ibara ritukura n'iry'icyatsi kibisi, hirya yaho hari abamotari bari kumwe n'abagenzi; haparitse n'amamodoka menshi, hino hari umugabo uri kuzamuka.

Amamodoka abiri ari mu muhanda wa kaburimbo, iri imbere ni ibeni isize irangi ry'umweru, inyuma hari ivatiri y'umweru, hagati yazo hari umumotari uhetse umugenzi, hirya hari akazu k'abagenzi gasize irangi ry'ubururu harimo intebe, hirya hari itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo hafi y'akayira k'abanyamaguru, hirya yaho harimo umumotari uhetse umugenzi, bose bambaye kasike z'umuhondo, ku ruhande hari ubusitani buteyemo ibiti byakuze, ukomeje imbere hari umunyonzi, n'imodoka ya fuso.

Umugabo uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru wubakishije amapave, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'itaburiya ya kake; imbere hari ubusitani buteyemo ibiti bya sipure, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'ubururu yacanye ibinyoteri, igeze mu mirongo y'umukara n'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda w'abanyamaguru ukoresheje amapave harimo umugabo wambaye ipantaro ya kaki n'ishati y'umweru, ari kuza agana imbere, hirya hari imodoka y'umukara yegereyewe n'indi ya dayihatsu, inyuma yayo hari abamotari.

Umuhanda wagutse wa kaburimbo, ugabanyijemo ibice byinshi bijya mu merekezo atandukanye, ku mpande hari inzira y'abanyamaguru yubakishije amapave, ukomeje imbere, harimo inzira yishushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara, igaragaza aho abanyamaguru bambukira, mo hagati hashinzemo amatara yo ku muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umwana uri kwambuka n'amaguru, hirya ye hari umumotari uri kuri moto yacanye itara, inyuma hari andi ma moto, hirya hari icyapa cy'ubururu kiri iruhande rwa jaride iteye mo indabo nyinshi zitandukanye, inyuma ukomeje hari amatara yo kumuhanda ari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo wagutse cyane, ushushanyijemo imirongo y'umuhondo, harimo umumotari uhetse umugenzi hirya yayo hari ivatiri itukura inyuma hari cya sofiya gipima umuvuduko wo mu muhanda n'ipoto by'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umukara n'umweru ariho abagenzi bambukira, hirya yaho hari amapoto y'amatara, hari n'andi ari kwaka ibara ry'umutuku, hirya hari ibiti n'ubusitani buteyemo ibyatsi byiza n'abagenzi bari kugenda berekeza mu muhanda wo hirya.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo amabara menshi y'imirongo y'umukara n'umweru, hirya hashushanyijemo utundi tudirishya tw'umuhondo, hirya hari sofiya; hari umukobwa uri kugenda imbere yayo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ari kwerekera ahari ipoto nini cyane.

Imodoka y'ikamyo ifite ibara ritukura, iri kugenda munsi y'umuhanda ugeretseho undi ufite inkingi, inyuma yayo hari moto nanone aho iri kujya hari guturuka izindi moto ebyiri z'abamotari, mu muhanda w'abanyamaguru harimo abagenzi bari kugenda.

Umuhanda ushushanyijemo imirongo myinshi itandukanye, harimo ihagaze n'itambika, muri bo harimo amamoto atwawe n'abantu, ariho n'abagenzi, hirya hari igiti gishinze kiriho utuntu dutatu, kamwe k'umutuku n'utundi tw'umukara tubiri, turiho udutara twaka.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari indi y'umukara, ku ruhande hari ikamyo y'umweru; ku ruhande hari icyapa gifite hejuru h'umukara, harimo umuntu ushushanyije mu ibara ry'icyatsi kibisi, uri kwambuka umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ahari imirongo y'umukara n'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukira harimo umugabo uri gutambuka yambaye itaburiya ya kaki afite telefone ku gutwi hepfo mu muhanda hari imodoka ziri kuza na moto wambutse hari undi muhanda uzengurutswe n'ubusitani buriho indabo zitandukanye n'ibiti ku nkengero zawo birebire.

Umuhanda wa kaburimbo hagati harimo amabara y'umweru n'umukara. Abantu bari guca mu mabara y'umweru babiri, bageze hagati y'ubusitani buteyemo ibiti n'indabo nyinshi zitandukanye, bari kwambuka bajya mu muhanda wo hirya urimo moto n'imodoka y'ivatiri iruhande y'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umumotari ari gukata mu ruhande rw'iburyo, hirya hari abandi bamotari inyuma yabo hari imodoka za Fuso ebyiri zihaparitse n'ibindi bikamyo bikomeza inyuma, hino hari icyapa cya Emutiyene n'ikindi cyanditseho kati cy'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amahurizo, hagati hateyemo indabo n'ibindi biti by'indabo birebire, hirya hari amamodoka, hino hari moto iri kugenda ihetse n'umugenzi, hirya yayo hari motomodokaka mu wundi muhanda ukikijwe n'urukuta rw'amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo hagiye harimo imirongo myinshi y'umukara n'umweru, harimo n'amatara ari kwaka icyatsi kibisi n'umuhondo.

Mu muhanda w'abanyamaguru wubabakishije amapave harimo umugabo urimo uza hirya hari kaburimbo iciyemo imirongo y'umukara n'umweru, igaragaza aho abanyamaguru bambukira, mo hagati mu muhanda ni mu rugabano hatemo igiti cy'ururabo kirekire hirya harimo abantu bari kugenda n'inzu ya etage isize irangi ry'umweru.

Mu muhanda w'igitaka, ku mpande zawo hagiye hari ibiti byabaye birebire, amashami yabyo agatwikira umuhanda, munsi yabyo hari indabo ziri imbere y'igipangu, urugi rwacyo rufite irangi ry'umukara, mo imbere harimo ikizu kinini gisakaje amabati.

Umuhandada wa kaburerimbo ugabanyishije umurongo w'umweru mo hagati, ku ruhande hasize irangi ry'umweru, hari inzira y'abanyamaguru yubakishije amapave, ukomeje imbere hari urukuta rwubakishije amabuye, mo hagati mu muhanda harimo umotari n'umunyonz,i hirya ku ruhande hari imodoka y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'agakorosima gasize ibara ry'umukara n'umweru, ufite ikoni, ku ruhande hari ubusitani buteyemo pasiparumu, ibiti, hashinze n'itara ryo ku muhanda, ririho ibara ry'ubururu hasi n'umweru hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umukara n'umweru aho bambukira ahitwa muri zebura korosingi, harimo icyapa gifite utuntu tubiri turi kwakamo amatara y'umuhondo, inyuma hari inzu ya etaje, munsi yayo harimo ivatiri n'abantu bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo, mo hagati na hagati harimo irangi ry'umukara n'umweru, indabo ziteye mu busitani buto, hirya hari imodoka zacanye amatara, imbere yazo hari umuntu uri kwambuka n'amaguru n'igare iruhande rwe, ukomeje hari amatara yo ku muhanda arimo yaka.

Abantu bane, harimo abagabo batatu n'umukobwa umwe wambaye inkweto z'umukara n'agakanzu k'utubara, afite utuntu tw'utumvirope mu ntoki n'agasakoshi, bari kwambuka mu murongo ushushanyishije amabara y'umukara n'umweru ugaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, hirya hari amamoto n'imodoka y'ivatiri.